Ikigo gishinzwe gufasha abantu gusubira mu buzima busanzwe, yaba ababaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa abagize impanuka runaka, bakabasubiza mu buzima busanzwe mu gihe bamaze gukira, iki kigo gifasha abantu bose bagize n'ihungabana ryo mu mutwe.